Bare ni nziza cane， bare itanga akazi ku bakora amasuku，bare itanga akazi ku baseriveri， bare itanga akazi kuri ba manaja， itanga akazi no ku banyabizinesi，ku bakora ubwo bucuruzi bibaha amafaranga abateza imbere， igihe babonye abakiriya.

Bare ni nziza, bare ni nziza kubera ko abantu twese tuyijyamo igihe cyose dukeneye ikintu cyo kunywa, turagenda kanywa ukeneye byeri , ukeneye fanta, ukeneye ibyo kurya byose byose ubisangamo ikindi kandi bare idufasha kuba twabona ibyo kurya , kuba twabona amafaranga mu gihe dukoramo abenshi bakora muri bari babona amafaranga bakishyurira abana babo amashuri.

Bare ibaga nziza cane itangaga akazi ku bakozi bakoragamo abakoragamo amasuku ,abakoraga muri kontwari ndetse na Bosi wabo akaba yabonamo amafaranga aturutse mu nyungu mu nyungu iva mu byo yashoye.

Bare ni ahantu heza ho kujana na famiye, kujana n'inshuti mukajayo mugafata icyo kunywa cangwa ibyo kurya, mukaganira mukaganira ku bibazo byanyu, ndetse no kubibateza imbere bikanatuma mwishima cane kubw' uko muba mwagiye mwahagiriye ibihe byiza, hakanatanga n'akazi ku bantu bamwe na bamwe bakoramo.

Bare ni ahantu heza ho gusohokera ukaba wahajana n'inshuti zawe mukabasha kuba mwafata mwahafatira ico kunywa ndetse n'ico kurya, rimwe na rimwe habaga igihe gihari habaga igihe gihari abantu benshi bahakoraga babonaga amafaranga, bikabafasha gukemura ibibazo byabo.

Butike ni nziza cane zitangaga akazi zitangaga akazi ku bantu hamwe, abandi bakaba ba bakabasha kuba bahakura amafaranga biturutse mu bicuruzwa bafite, iyo babigurishije bakabona amafaranga ndetse n'ababigura na bo babonaga aho babigurira.

Butike ibaga nziza cane kubera ko abantu bayi bayicuruzamo babonaga amafaranga igihe babonye abakiriya, amafaranga babonye bakagakemuza ibibazo harimo nko kwishura inzu, kwishurira abana amashuri, kuba bakwishura ingendo bakora n'ibindi byinshi bitandukanye, ndetse bakaba banatanga n'akazi bagahereza abandi bantu.

Ubucuruzi ni bwiza cane ku babukora, kubera ko umucuruzi wese aho ava akagera ntagashobora gukenera amafaranga yacuruje ngo ayabure, kandi ikindi ashakaga umukozi umukozi na we akamwishura, n'abaturage bakabona aho bamusanga.

Butike ni ikintu cyiza cane， hari botike zibagamo amacumbi，amacumbi acumbikira abantu，bukaba bwije， ukaba waja kurarayo igihe bukwiriyeho， utari wagera ahantu hegereye iwanyu，ukaba wararamo ukishura amafaranga make， ukararamo bugaca utaha aho kugira ngo ugorwe n'urugendo， ukora urugendo bwije.

Botike cyangwa se amangazi ni iduka riba ryiza cyane ,igihe cyose umuntu arikoramo abasha kubona abakiriya igihe cyose abonye abakiriye bamuha amafaranga, amafaranga abonye akamufasha inyungu yose yabonye agasevinga ayandi akayakoresha akemura ibibazo byo mu rugo harimo nko kwishyurira abana amashuri.

Umwuga wo gucuruza ibikoresho by'amagare ni umwuga mwiza cane ushobora kuba wafasha nyirawo kuba yakwiteza imbere akishurira abana amashuri akabasha kugaburira umuryango we ikindi bikamufasha kuba yareka kuba inzererezi cangwa bikamurinda kuba yakwiba abantu babikeneye bakagira aho babisanga.

Ubucuruzi bwo ku muhanda bwa botike ni bwiza cane kuberako botike iyo uyicuruje neza ubonaga amafaranga amafaranga mu kugurisha amagare, mu kugurisha ibikoresho byose bikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi amatelefoni n'ibindi byose muri rusange, imyambaro iyo ubigurishije neza ubonaga amafaranga ukiteza imbere ukaguramo ibikoresho byo mu rugo, ukishuramo inzu n'ibindi byinshi cane bitandukanye.

Botike ni nziza cane abantu bayikoreragamo, iyo bayikozemo abacuruzi babonaga amafaranga gaturutse mu kuntu baba bagurishije, iyo bagurishije neza babonye abakiriyaya babashaga kwishyurira abana amashuri, bakaguramo ibyo kurya, bakishyura amazu n'ibindi byinshi cyane.

Ubucuruzi bubaga bwiza cane hari hari ugucuruza impeta, hari ugucuruza shanete n'ibindi byinshi bitandukanye, abakiriya bawe bakaza bakaguteza imbere, ukishima kubw'uko wabonye inyungu.

Butike irimo ibicuruzwa bikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi harimo za ekuteri harimo amatelefone harimo amaradiyo byose n'ibikoresho dukenera igihe kine kirekire ndetse binaba binatuma tubona akazi abandi bakishima bacuranga umuziki n'ibindi byinshi cane.

Butike ni nziza cane irafashaga， kubera ko duhahiragamo ibicuruzwa， ibicuruzwa biba birimo，ndetse n'abacuruzi nabo bakaba babonamo ibyo kurya，bakabonamo n'ibyo kugurisha，bakabona amafaranga yo kwishurira abanyeshuri amashuri， ayo guha abandi babaha serivisi zitandukanye zitari ubucuruzi.

Umwuga wo gukora amagare ni umwuga mwiza cane utuma abantu biteza imbere , bakabasha kwishura amashuri y'abana babo , bakabasha nabo ubwabo kwitunga bakabona ibyo kurya, ndetse natwe nk'abantu dukoresha amagare bidufasha kugira ngo tubone abayadukorera mu gihe twari tugiye mu kazi maze igare ryacu rikagira ikibazo.

Butike iba nziza cyane, butike ni ahantu dushobora gusanga imbuto runaka, tukahasanga ibindi bikoresho dukenera. Umucuruzi wese ukora muri butike ashobora kubona amafaranga bitewe n'inyungu yabonye, ayo mafaranga akayakoresha akemura ibibazo byo murugo, harimo nko kuba yakwishyurira inzu, akaba yakwishyura amazi, akishyura umuriro, akanishyurira abana n'ishuri.

Butike icuruza ibikoresho bya elegitoronike ni butike nziza cane, umuntu ashobora kuba yakoramo ari umucuruzi cangwa agakoramo ari umuntu ukoramo amasuku. Ikindi kandi biranafashaga kubera ko umuntu ukoze iyo buzinese ashobora gukuramo amafaranga, amufasha mu kwishura, mu kwishurira abana amashuri, mu kuba yakwiteza imbere muri rusange mu kwigurira ibyo kurya, inzu akayishura neza nta kibazo.

Ubucuruzi bubaga bwiza cane kubera ko iyo wacuruje neza, ubonaga amafaranga, ukayakemuza ibibazo byawe byo mu rugo, ukabasha kuba wafasha n'abandi, bakabona akazi kuko iyo kabaye kenshi uhaga abandi akazi, n'abaturage baje kukugurira bakabona aho bagusanga.

Butiki ibaga nziza cane kuberako ushobora kuba utatetse ukagenda ukaja kuryayo, ushobora kuba ufite icaka ufite wumva ufite inyota ,ukagenda ukicara ahantu muri butike cangwa muri bare bakakuzanira ibyo wifuza byose ubundi nawe ukabaha amafaranga gakabateza imbere.

Butiki ibaga nziza cane kuberako abantu benshi bayikoreshaga bahaha, abandi bakayikoresha bakayikoresha nk'abacuruzi bakabaho neza bishimye kubw'uko bagurishije ibintu, bakabona amafaranga yo gukemuza ibibazo byabo muri rusange.

Ubucuruzi bwo ku muhanda bubaga bwiza cyane kubera ko butumaga abantu babona aho bahahira abandi bakabona akazi. Hari abakoragamo amasuku, hari abacuruzaga, bose bose babagaho neza bishimye kuko babona ibyo bifuza biturutse mu bucuruzi.

Ikigo cyagwa bare ni ahantu heza hogusohokera umuntu ajaga akishima kuberako bayahabonye serivisi zose akeneye aranywaga akarya akaba yabona n'uburuhukiro rimwe na rimwe aba ari ahantu hasobanutse ikindi kandi binatangaga akazi kuba koramo

Kenkayori ni nziza cane itumaga abantu babona akazi, abandi bakabona aho bahahira ibikoresho birimo ibikoresho by'amashanyarazi, birimo nk'imyenda y'aba y'abatekinisiye, n'ibindi byinshi cane ushobora kuba wahahiramo nk'amapensi, imisumari n'amabati.

Butike ni ikintu kiza cyane, iyo umuntu akora muri butike aracuruza, iyo acuruje neza akabona amafaranga bimufasha kugira ngo abashe kwishyurira abana amashuri, abashe kwishyura ibitaro igihe yarwaye abashe kuba yakwiyishyurira ingendo zose agenda akora, ndetse n'ibindi byose bitandukanye.

Butike icuruza ibikoresho by'amashanyarazi, ibikoresho bakoresha bubaka, ni butike nziza cane kuko ishobora kuba yaguhesha akazi, iha akazi abantu bikorera imizigo, iha akazi abantu bakoramo isuku, iha akazi abantu babirinda n'ijoro bacunga umutekano, ikindi kandi nk'umuntu ucuruzamo abasha kubona amafaranga yo kwishurira abana amashuri igihe yabonye abakiriya akagurisha neza.

Inzu z'ubucuruzi ni nziza cane zitangaga akazi kuri buri ku bantu bamwe na bamwe, hari abakoraga amasuku, hari abazicuruzagamo bikabafasha kuba bakwiteza imbere, kuko iyo babonye abaki abakiriya benshi baza babagana bakabagurisha, babonaga inyungu ikomeye cyane, bikabafasha gukemura ibibazo byo mu miryango yabo.

Butike ni ikintu cyiza cyane ,ni ahantu ushobora gusanga ibyo kurya ,ahantu ushobora gusanga ibyo kunywa mbese muri rusange ushobora gusanga ibyiza byinshi. Iyo umuntu akora muri botike nk'umucuruzi ukora cyangwa nk'umuntu ukoramo amasuku . Iyo bacuruje neza bakabona amafaranga abasha kuba yabona inyungu, akiteza imbere akemura ibibazo byo mu rugo agura ibikoresha akeneye yishyurira abana amashuri n'ibindi bitandukanye.

Butike zo ku muhanda zicuruza inzoga, zicuruza amafanta, zicuruza n'ibindi bitandukanye zibaga nziza cane kuberako iyo umuntu yacuruje neza abonaga amafaranga akoresha ari kwishurira abana amashuri, ari gukora ibindi muri rusange byo mu rugo bigatuma babaho bishimye.

Hoteli zibaga nziza cane cangwa se ubucuruzi bwo ku muhanda bukaba bwiza cane, kubera ko abantu babaga bazi aho bari bugukure, bakahagusanga ukabaha serivisi bakeneye, niba ari ibicuruzwa bashaka ukabibaha, nawe ubwawe ukabona amafaranga yo gukemuza ibibazo byawe ufite mu rugo rwawe kuko uba wacuruje neza.

Hari botike nziza cane zigiraga uburuhukiro zigiraga ibyo kurya mbesi muri rusange zigira ibintu byose, zigatanga akazi mu bantu ugasanga nyine n'abantu baciri abantu ba rubanda rugufi babonaga aho baja gukora.

Umwuga wo gucuruza imifari imifariso ubaga mwiza cane, cangwa se ukanaba wakoramo, ukanaba wazifata ugakoramo intebe, ukazigurisha abaturage. Abaturage bakaguha amafaranga nabo bakabasha kuba babona aho baryama, cangwa se aho bicara bigatuma mwese mubaho mu buzima bwiza.

Ahantu bacururiza ahantu bacururiza mu mazu yo ku muhanda bibaga byiza cane, kuberako batangaga akazi hari ababa bakora n'amasuku ,hari ababa bashinzwe gucuruza no kwikorera imizigo ,abo bose babonera babonera inyungu muri ubwo bucuruzi bakabaho bishimye.

Botike ni nziza itumaga abantu babona akazi tujanagayo ibicurubwa byacu tukabicuruza abandi bakaza kubihaha kandi botike itumaga tubona umusaruro kuko turacuruzaga tukabona inyungu n'ibindi byinshi cane.

Umwuga wo gufotora, cyangwa gukora videwo, cyangwa kujya gushutinga ahantu runaka, ni umwuga mwiza bikomeye cyane, ndetse ushobora kuba wagufasha kwishyurira abana n'amashuri, ukagufasha kuba wagira ibindi bintu ukora ukiteza imbere muri rusange ukagira ibyo ugeraho.

Gucuruza ni ibintu byiza cane. Iyo wacuruje neza ugacuruza butike yawe neza ubonaga amafaranga yo kwishura ishuri, ayo kwishura taransipoti, ayo kwishura inzu ubagamo, ayo kwishura ibyo kurya n'ibindi byinshi bitandukanye muri rusange.

Gucuruza ibikoresho by'amazi， ni ibintu byiza cane，kubera ko bituma abantu tugira aho tubisanga，tukamenya ngo turabisanga ahangaha， tukamuteza imbere， nawe tukamuteza imbere tukagura ibicuruzwa by'iwe， nawe akabona amafaranga akoresha ari gukemura ibibazo by'umuryango.

Ubucuruzi bwo muri botike ni ubucuruzi bwiza cane butanga akazi ku babukora, bugatanga umusaruro ufatika amafaranga akiyongera mu muryango, ukishurira abana amashuri n'abaturage bakeneye serivisi zawe bakeneye ibicuruzwa byawe bakamenya aho bagusanga.

Butiki ni nziza tuyikuragamo ibyo kurya, abandi ikabaha akazi bakabasha kubona ibyo bakora bidasabye kujya gusaba akazi ahandi hantu. Ikindi butike iduha umusaruro ukomeye cane tukabona ibyo duha abana bagiye ku ishuri, abana bakabona minerivari n'ibindi byinshi cane.

Butike duhahiramo iyi duhahiramo ibintu byo kurya ni ikintu cyiza cyane kubera ko iradufasha tukabona akazi bamwe muri twe, abandi tukaba twabasha kubona aho duhahira ibintu hazwi nyirizina.

Ahantu nga nkaha muri hoteli cangwa se muri moteri muri cangwa ahandi hantu hari botike nk'iyi ngiyi muri rusange ushobora kuba wasanga inyama ,ushobora kuba wasanga uburuhukiro ukaba waruhukiraho bitewe n'igihe wifuza kumara uruhutse, ndetse muri rusange bishobora kuba byatanga amafaranga ku babikora.

Butike ni ingenzi cane kubera ko abantu bayihahiragamo, abandi bakayikoramo nk'akazi ka buri, nk'akazi kabo ka buri munsi. Habagamo ibicuruzwa nk'ibisheke, ibitoki, ibihaza n'ibirayi n'ibindi byinshi cane ushobora kuba wasanga muri butike uhaha ukakijana mu rugo, ubundi ugateka ukarya.

Ubucuruzi bubaga bwiza cyane, butumaga abantu babona amayinite. Abantu babona ibikoresho byo mu gikoni, ibikoresho byo mu nzu, bigatuma abantu babona bakoresha ibikoresho bya elegitoronike, aho bigira bakabona impushya zo gutwara ibinyabiziga, bakanabona n'aho kurira, bikanatanga n'akazi ku babikora, bagakemura ibibazo byo mu miryango yabo.

Butike iba nziza cyane, kubera ko ari ho dushobora gukura ibintu byose dukeneye, harimo amakanzu y'abageni tugakuramo amamatela tugakuramo n'ibindi byinshi bitandukanye, abakora muri butike na bo nk'abacuruzi, bashobora kuba babona amafaranga aturutse mu nyungu yose babona, igihe cyose twabagannye tukabateza imbere, bakayakoresha bari kugurira abana babo ibikoresho by'ishuri, ndetse bakikenura n'ibibazo byo mu rugo byose bigakemuka.

Ubucuruzi bwo ku muhanda cangwa se ubucuruzi bubera mu mazu. Aba ari ubucuruzi bwiza cane kubera ko ni ho hantu abantu babasha kuba bagurira imyenda ni ho hantu abantu babashaga kuba bagurira amamoto, ni ho hantu abantu bashobora kuba bagurira ibikoresho byinshi muri rusange byo mu nzu, bikanafasha n'abantu kuba babona aho bakorera, bakabona amafaranga yo gukemura ibibazo byabo.

Ubucuruzi bwo gusukura abantu ukora imisatsi, ukora inzara, woza n'abantu, bubaga bwiza cane kubera ko iyo wabukoze neza abantu basaga neza, bakaguha amafaranga gabo, maze ukagakoresha wikenura mu bindi.

Botike zibaga nziza cane kubera ko botike niho hantu dukuraga ibyo duteka, ni ho hantu dukuraga bimwe mu dukoresho tumwe na tumwe dukoresha mu rugo, ndetse ni ni na ho hantu dukura imiti. Ni ho hantu dukura ibintu byinshi bitandukanye. Botike muri rusange inatangaga n'akazi, ku bantu bakoragamo bakabona amafaranga.

Inzu z'ubucuruzi zibaga nziza cane kuko zibagamo ibicuruzwa byinshi cane nk'abantu dukeneraga zikabamo abakozi bakoramo, abakozi bakoramo babonaga amafaranga iyo babonye ababateza imbere ikindi kandi iyo babonye abateza imbere babaho bishimye mu buzima buzima kuko bakemuraga ibibazo byabo.

Ubucuruzi bubaga bwiza cyane, iyo umuntu ya yacuje neza abonaga amafaranga, akabona abakiriye, bakabona ibyishimo babiboneye muri serivisi ziwe, akabaha uburuhukiro abakeneye kuruhuka, bakabaho bishimye, abakeneye kureba televiziyo bakayireba, n'abakeneye kwiryamira bakiryamira, abakeneye kurya nabo bararyaga, bakishyura amafaranga, uwo muntu nawe akabasha kuba yabona ibikoresho bikenewe mu ngo ze ziwe.

Farumasi ni ahantu h'ingenzi cane kubera ko umuntu yarwaye ajagayo kugurarayo imiti, ikindi kandi farumasi itangaga akazi, abantu bakoraga muri farumasi bose barahembwaga, iyo bahebwe bayajyana mu rugo bagakemura ibibazo byose bari bafite.

Butike icuruzaga ibinyobwa ni butike nziza cane, kubera ko abantu bose bagize icaka barahagana, abakeneye kuba baruhuka cangwa baganira, bagirana akanama gato cangwa ibiganiro bitwara igihe gito barahajaga bakahagurira ico kunywa bakanywa. Ico gihe babaga bari guteza imbere na nyiri buzinese, akabasha kubaho yishura ibintu mu mafaranga bamuhaye.

Butike ibaga ikintu ciza cane kuberako iyo umuntu acuruza butike ntago aburaga amafaranga ahoraga afite amafaranga akanabona n'inyungu agacuruza ibihingwa byose bishoboka ibigori ibishyimbo agacuruza n'amavuta n'ibikapu n'ibindi byose akabicuruza bigatuma aterimbere akanatezimbere n'abandi abaha akazi.

Butike nk’izingizi ni nziza cane, zidufashaga kuba twabona akazi, tukihangira imirimo, ducuruza. Abandi na bo bikabafasha kuba babona ibyo bakeneye byose, bitabasabye gukora ingendo ndende.

Serivisi zo ku muhanda ziba nziza cyane, kubera ko abantu bashobora kuba bakifatira agacupa kabo igihe bafite icyaka, abandi bashobora kuba baza kwiyogoshesha, abandi bashobora kuba baza bakagura amayinite, abandi bashobora kuba babikora nk'akazi bakabona amafaranga akemura ibindi bibazo.

Ubucuruzi bwo ku muhanda bubaga bwiza cane kuko ni ho hantu tuguraga amayinite, ni ho hantu tuguraga ibyo kurya, ni ho hantu tuguraga gaze n'ibindi byinshi bidufasha mu mirimo yacu ya buri munsi yo mu rugo, ndetse n'ibidufasha kuba twava ahantu hamwe tuja ahandi kuko harimo n'abagurisha amagare n'amamoto.

Butike irafashaga ifashaga cane bitandukanye. Butiki ifasha abantu kuba babona ibyo bashaka batagiye kure cane bakabibona mu dusantere hirya no hino, ndetse ikindi butiki ifashaga abantu kuba bakwihangira imirimo bagakora butike ubundi bagacuruza, bakabasha kwishurira abana amashuri na bo bakabona ibibatunga muri rusange.

Ahantu hacururizwa imyenda ni ahantu heza cane, hashobora kuba hatanga akazi kubakubura, hashobora kuba hatanga akazi ku bakoropa no ku bacuruzi muri rusange bakaba babona akazi bagakuramo amafaranga abafasha gukemura ibibazo byo mu miryango zabo.

Butike iba nziza cyane kubera ko butike ni ho dukura ibintu byose byo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi bitandukanye, ibyo kubabakisha n'ibindi byose tubikura muri butike. Abacuruzi bakora muri butike nabo zibafitiye akamaro kubera ko babasha gukuramo amafaranga; amafaranga y'inyungu babonye bakayakoresha bari kwishyurira abana babo amashuri.

Botiki ibaga nziza cane. Cane cane nk'amafarumasi habagamo imiti yo guha abantu. Abantu bose bavuye kwa muganga bashobora kunyura bashobora kunyura muri farumasi bagafatayo imiti, no muri farumasi muri farumasi na ho abantu bakoramo, abaganga bakoramo abanasi, bakabona amafaranga abatunga.

Gusenga biba byiza cyane iyo umuntu asenga bimurinda kugira umutima mubi, bikamurinda kuba yahora ari gushwana n'abandi. Bikamufasha kugira ngo amenye bibiliya, akamenya amagambo meza no gukora umurimo w'Imana agakomeza kugera ikirenge mu cy'abatubanjirije barimo nk'intumwa z'Imana ndetse n'abandi batandukanye.

Koperative cangwa Banke ni ukwishira hamwe gukorwa n'abantu, iyo abantu bishize hamwe babashaga kubona uko babika amafaranga n'uko babika n'ibindi bintu, baki bakungurana ubumenyi ndetse bikanabafasha no kuba babona inguzanyo bagatera imbere.

Koperative zidufasha kuba twabona inguzanyo. Zikadufasha kuba twakwizigama kugira ngo tuzayakoreshe mu gihe tugeze mu bibazo cyangwa se mu gihe tuyakeneye cya nyacyo. Ikindi koperative zidufasha ni ukwishyira hamwe ndetse tukaba twahura n'abandi.

Hoteri ni ahantu heza ho gusohokera， hakaba n’ahantu heza ho kuruhukira， hajaga habagamo ama pisine，habagamo ibyo kurya， habagamo ubwogero， habamo ibintu byose muri rusange，ushobora kubakoresha， ikindi kandi nk'abakozi bakoragamo babonaga amafaranga aturutse mu bakiriya babo， ubundi bakagakoresha mu rugo bakemura ibibazo byabo.

Hoteri cangwa Moteri ni ahantu heza cane ho gusohokera, ukahajana n'abavandimwe, ukahajana n'inshuti zawe, deni mukagenda mukarya, mukanywa, mukajya muri pisi mukaja muri pisine, mukishima mugateza imbere abakoramo, bakabona amafaranga namwe mukabona ibyishimo, mukabaho neza.

Hoteli cyangwa moteri ni ahantu h'ingenzi cyane, ahantu heza cyane umuntu ashobora kuba yatemberera akeneye kuruhuka, cyangwa se akeneye kuba yagira ibyo yitekerezaho, amanama menshi ashobora kuba yabera muri hoteli abantu bakajyamo, bagahuriramo bagakoramo inama bagakemura ibibazo byabo bafitanye, ndetse n'umuntu nyiri iyo hoteli akaba yabona amafaranga abaturutseho, agakemura ibibazo byose yari afite mu muryango muri rusange.

Hoteli ibaga nziza cane kubera ko ari ahantu heza ho kuruhukira, umuntu ugiye muri hoteli abashaga kuba yahasanga ibyo kurya abashaga kuba yahasanga imikino itandukanye, abashaga kuba yahasanga amapisine abashaga kuba yasanga ibintu byinshi bitandukanye. Abakozi bakora muri hoteli bose babonaga ibibatunga biturutse mu kuba bakoze, mu kuba bakiriye abakiriya benshi bigatuma babaho neza n'ibindi byinshi cane.

Hoteli ni ahantu heza cane ho gusohokera, umuryango ushobora kuba hasohokera, umupapa, umwana ndetse n'umugore bakasohokera bakanaharuhukira, ikindi kandi muri hoteli hatanga amafaranga ku bakozi baho ndetse na ba manaja baho.

Hoteli ni ikintu ciza cane ni n'ahantu umuntu ashobora kuba yasohokera, ari kumwe n'abavandimwe be ari kumwe n'umuryango cangwa se ari kumwe n'inshuti ze, bakaja bagiye mu nama canga hari ikindi kintu bagiye gukora c'ingenzi, bakaba bajamo bagiye kwishimisha bajamo bakagura ibyo kurya bakarya bakagura n'ibyo kunwa bakanwa, banashaka bakaryama bigatuma, na nyiri buzinesi abona amafaranga amuteza imbere.

Gucururiza mu masoko ni ibintu byiza cane kubera ko bishobora gutuma uhura n'abandi ukamenya uburyo urabana n'abandi, ukanamenya uburyo uri busevinge .Gucuruza ni akazi keza gashobora kuba kaguhesha amafaranga ukabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo. Igihe ubonye amafaranga ushobora kuba wakwishyura inzu ushobora kuba wakwishyurira abana amashuri n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umwuga go gucuruza，ku muntu uzi gucuruza inkweto，ni umwuga mwiza cane， ushobora gukorwa na buri umwe wese ubishaka， akabona amafaranga， agaha serivisi abakiriya yo kubaha ibintu byiza bizima， kandi biramba， nawe akabona amafaranga gamuteza imbere， akarushaho kubaho neza muri rusange.

Ubucuruzi bwo kumuhanda ni ikintu ciza cane. Birafashaga bitumaga abantu babona akazi, ikindi bitumaga abantu babona ibyo bakeneye byihuse. Umuntu akabona umusaruro akishurira abana amashuri, ndetse n'ibindi bintu biberamo ni ukuba umuntu yabona umusaruro akabona ibyo kurya.

Amasoko, amasoko acuruzaga imbuto ni amasoko y'ingenzi cyane, kubera ko atanga akazi ku bacuruzi bayacuruzamo, ikindi kandi aba bacuruzi bayacuruzamo babashaga kuba babona inyungu igihe babonye abakiriya benshi, bakabona amafaranga abateza imbere, andi bakayakoresha bari gukemura ibindi bibazo byabo

Isoko turihahiragamo tukajanamo n'ibicuruzwa byacu bakabigura, tukabona amafaranga. Iyo twejeje imyaka tuyigijanamo bakayigura tukabona amafaranga, tukayahingisha tukayakoresha turi guhinga ibirayi, turi guhinga ibishimbo, turi guhinga n'ibindi byinshi cane.

Ubucuruzi bubaga bwiza cane, kubera ko iyo umuntu yacuruje neza akabona abakiriya bahagije abonaga inyungu nawe ihagije, ikamufasha mu kuba yakemura ibibazo byiwe harimo nko kwishurira abana amashuri, kwishura ibitaro, kwishura taransipoti cyangwa se ingendo akoraga, muri rusange ubucuruzi ni ikintu kirenze n'ibindi byose bishoboka.

Raronje zisa n'aho ziri gucuruzwa, zose zingana kandi ndabona raronje nziza cyane, buri umwe wese yakwifuje gutunga.

Ubucuruzi bucuruza imboga, bucuruza imbuto bubaga bwiza cane, iyo abahinzi bacu bahinze neza bakeza bazanaga imbuto ku masoko tukazirangura natwe tukazigurisha abaturage, tugakemura ibibazo byacu binyuze mu mafaranga twakuye muri ubwo bucuruzi.

Amasoko yo ku mihanda ni amasoko meza cane atumaga abacuruzi babona akazi ndetse n'aba n'abakiriya bakabona aho bari buhahire byoroshye kubera ko haba hazwi n'abantu bose muri rusange.

Ubucuruzi bwo ku muhanda bucuruza ibintu harimo nk'amafu, ibi, amakanta, amata, n'ibindi bikoresho byose. Muri rusange ni byiza cyane kuko butangaga akazi ku babikora, ikindi kandi natwe tubagana tuja no kubigura tukabibonera hafi, tukaba tuza aho tubikura.

Ubucuruzi bubera ku muhanda bubaga bwiza cane， nk'ubucuruzi bwo gucuruza indagara，gucuruza ibintu bituruka mu mazi，ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora kuba byiza cane， kubera ko abacuruzi babicuruza， babonaga amafaranga yo gukemura ibibazo byabo，kwishurira abana amashuri，kugura imyenda no kwishura inzu.

Gucuruziza ku muntu ni ibintu byiza cane cangwa se gucururiza mu masoko nabyo ni ibintu byiza cane , birafashaga umuntu akabona akazi yaba yagurishije akabona amafaranga y'inyungu, akayiziga akandi akagakoresha ari kukishyurira abana amashuri ari no gukemura n'ibibazo byo mu rugo afite bityo ubuzima bugakomeza bukaba bwiza.

Ubucuruzi bwo muhanda ni ubucuruzi bwiza cyane. Kubera ko ari na ho hantu hahurira abantu benshi. Umucuruzi ucururiza ku muhanda ashobora kuyabona amafaranga. Amafaranga yose akuye mu bakiriya akaba yayakoresha yiteza imbere. Ashobora kwiteza imbere yishyurira abana amashuri, acuruza ibikoresho byose akabonamo amafaranga, akaba yanayakoresha yishyuri inzu, abakozi n'ibindi bitandukanye.

Amasoko yo ku muhanda ni amasoko meza cane, atumaga abantu babona amafaranga byororoshe, cane cane nk'abacuruzi bagakoragamo bibumbiraga mu makoperative, abandi bakabasha kuba batera imbere mu buryo bumwe cangwa ubundi.

Ibitoki ni byiza turabihingaga iyo twahinze ibitoki bi kera dukuragamo imineke yo kurya ,ibindi aribyo guteka tukabirya abandi bagakoraminzoga z'urwarwa bakazicuruza bamara kuzicuruza bakabona amafaranga abafasha gukomeza kubaho muri rusange.

Amasoko ni meza cyane, ushobora gucuruza imyenda, ushobora gucuruza ama ushobora gucuruza n'ibindi bitandukanye, ugakuramo amafaranga, ushobora kwifashisha mu rugo, aho ushobora kwifashisha wishurira abana' amashuri, ushobora kwifashisha wishyu inzu, yo kuba ushobora kwifashisha wi'ishura ibiryo, byose muri rusange ushobora kuba wabikora binyuze mu mu kuba wacuruje.

Botike ibamo ibiribwa, ni ikintu cyiza cyane, kubera ko abantu twese turaha, duhaha utuntu twinshi muri rusange dukenera mu buzima bwacu, umucuruzi nawe akabasha kuba yabona amafaranga akamufashamo kuba yakemura ibibazo by'iyo mu rugo.

Umwuga w'ubucuruzi bwo ku muhanda ubaga mwiza cane kuberako ubukoze abonaga amafaranga iyo yabonye abakiriya beza, i kandi ikindi iyo abuze amafaranga yo kwishurira abana amashuri niho ashobora kuba yayakura kuko ariko kazi ke ka buri munsi.

Ubucuruzi bwo ku muhanda bubaga ubucuruzi bwiza cane, cane cane nk'ubu bwo gucuruza ibihingwa ngandurarugo imbuto harimo amajeri, ibishimbo, ibitoki, ibijumba n'ibindi byinshi ndi kubona muri rusange bibaga byiza cane kuko bituma abantu tubasha kubona ibyo dukora tugacururiza ku muhanda tukabasha kwishurira abana amashuri tukabasha no kwikenu muri rusange.

Mu isoko ni ahantu heza cane ushobora kuba wasanga imbuto ukaba wahasanga ibindi biribwa byose muri rusange inyanya, amaronji, imyembe, n'avoka n'ibiribwa byose bishobora kuba byarinda indwara, ushobora kuba wabigura ukabijana mu rugo ukabirya ndetse n'uwo utejeje imbere akabona amafaranga yo kwikenuza.

Imbuto ni nziza cyane turaziguraga, tukazigurira ahantu mu masoko. Buriya amasosoko aba ari meza cane, abantu baracuruzaga bakabona amafaranga, iyo babonye amafaranga bayakoreshaga mu gukemura ibibazo byabo. Bagura ibikoresho byo mu rugo, bishyurira abana amashuri, n'ibindi bitandukanye.

Ubucuruzi ni bwiza cane iyo umuntu yacuruje neza abonaga amafaranga, iyo atangaga keya abonaga amafaranga aturutse mu bakiriya benshi abonaga maze akayakoresha ari kwikenura mu muryango wiwe akishurira abana amashuri, akabagurira imyenda, akishurira umugore cangwa se n'umugore nawe akishurira umugabo, ibintu akeneye bakabaho mu buzima bw'ibyishimo.

Umwuga wo gucuruza amafi ni umwuga mwiza cane, watumaga abantu babona amafaranga abandi bakabona ibyo kurya byoroshye, bitabasabye kugenda bya hato na hato bikomeye cane ngo baja hano kubishaka mbese muri rusange bidufasha no kuba twakwishyura amashuri.

Ubucuruzi bw'isombe bubaga bwiza. Iyo umuhinzi yayizanye, tukayigura, tukayirangura, tukayijana ku isoko tukaja turayigurisha, abo tuyigurishije bayigiraga ibiryo, bakayijana bakayiteka, iyo bayitetse igashya ibarindaga indwara, bikanatuma bakomeza kubaho.

Ikawa iri mu gikarito ifite amabara atandukanye, harimo ihiye n'idahiye hakabamo n'indi kawa iri mu kantu kameze nk'aho ari akadobo.

Ubucuruzi ni ikintu ciza cane kubera ko nk'umucuruzi yacuruje neza abonaga amafaranga. Amafaranga abonye ashobora kugifashisha ariko kwishurira abana amashuri, ari kwishura inzu, ari kwishura taransipoti, ingendo akora zose azishura mu nyungu yakuye mw'ayo mafaranga muri uko gucuruza.

Ubucuruzi bwo k'umuhanda bucuruza imbuto, harimo karoti, harimo maronji, harimo amagi, harimo n'indimu, harimo shufureri, ni ubucuruzi bwemewe n'amategeko, umuntu wese ashobora kuba yakora kugira ngo abone amafaranga, iyo acuruje neza abonaga amafaranga amuteza imbere, akabasha kuba yakwishura inzu, akabaho m'ubuzima buzira umuze.

Ubucuruzi bwo ku muhanda bubaga ari ingenzi kubera ko bituma tubona aho duhahira ibintu, ibintu dukeneye byose muri rusange, tukabona aho duhahira imbuto, za karoti, ipuwavuro, ndetse naho duhahira inyanya, ibitunguru n'ibindi byinshi cane tubibona muri butiki cangwa ku muhanda.

Gucururiza mu masoko nka'aya ngaya bibaga byiza cane kubera ko bitumaga ubona amafaranga nk'umucuruzi ugashiraho abandi bakozi nabo bakagiriramo inyungu yo kubona amafaranga n'abaturage bakabona aho bahahira byoroshe.

Ubucuruzi bucuruza amafu ni uko biba byavuye mu bigori ,iyo dufashe ibigori tukabijana ku isoko bakabisyamo akawunga birafashaga abantu bagacuruza, ubucuruzi buragendaga iyo bugiye neza umucuruzi uri gucuruza abonaga amafaranga ,amafaranga akagakoresha akemura ibindi bibazo byose yari afite ,akanatanga n' akazi ku bandi mu gihe akazi kabaye kenshi.